Bare cyangwa se resitora cyangwa se akabare. Iyo batetsemo umureti mwiza uriho ibitunguru, uriho sereri, uriho n'indimu ndetse n'ironji, uriho n'imineke, uba ari mwiza kuko utuma uwuriye yishima, kandi akishyura n'amafaranga ye anezerewe.

Akabare ni ahantu hacururizaga ibinyobwa, abantu bakaja kubigura bakabinywa, akabare gaha amafaranga umuntu yacuruzaga, kandi akabare gatuma abantu bahegera babona akazi, urugero nk'ak'ubuseriveri, ako gukora amasuku n'ibindi bitandukanye.

Akabari kubabatswe neza kandi gasa neza gakurura abakiriya benshi kandi bigatuma abantu benshi bahaza kugira ngo bahafatire icyo kunywa kandi aka kabari aho kubatswe bitanga akazi ku bantu bo gukora amasuku, abantu bo guseriva izi nzoga bityo nyir'ikabari akabona n'inyungu nyinshi kandi yifuza.

Akabare kaba ga gakenewe mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi kuko uja mu kabare ukaja kunywamo inzoga ugashira inyota cangwa se hari n'igihe bari bari gucuruza amazi ya Nili cangwa se Inyange bakagaguha ukakanywa, wamara kuganywa ugashira inyota kandi akabare gatanga akazi ku bantu bahegereye nko gukubura, abaseriveri bakabona ibibatunga bya buri munsi.

Akabare ni inzu icururizwamo ibinyobwa kandi akabare gatanga akazi ku bantu bagiye kugashaka urugero nk'abakozi bagomba gukubura, abakozi bagomba guseriva izo nzoga, akabari gatanga serivise iyo umuntu agiyemo ahabwa ico kunywa agatanga amafaranga kandi akabare gaha amafaranga nyirako bikamufasha gukemura ibibazo bye bya buri munsi.

Iyo abantu bahuriye muri resitora cyangwa se bale baganira, basangira ibyo kurya n'ibyo kunywa, baba bishimye kuko bahuje ibitekerezo, buri wese arebana na mugenzi we baseka, banywa, barya, barangiza kurya bakaruhuka mu bwonko, kandi bagatekereza neza bikabarinda siterese

Iyo mu kabare cyangwa se muri bare bari gucuruza inzoga ya sikoro ibiryoshye cyane, ikurura abakiriya benshi cyane kandi niyo aho bari kuyicururiza hari isuku, bituma abakiriya biyongera bigatuma umuntu washinze ako kabari cyangwa se bare abona inyungu nyinshi kandi ihagije.

Primusi ziraryoha, kuko iyo umupimyi ari kuzipima ku kabari ke, zituma abaguzi bajya kuzigura, bamara kuzigura bakazinwa bityo bakishima mu buzima bwabo, kandi iyo ahantu hari akabare ka pirimusi, bituma abantu benshi bahahurira bakamenyana bakishima, ndetse bakanwa n'inzoga yitwa pirimus.

Iyo ahantu hari akabari, barashize intebe ahantu, mu majaride meza, izo ntebe zanditsweho, mitsingi bituma inzoga ya mitsigi yamamara, abantu bakayikunda, abantu bakayiyumvamo, kandi bituma aho hantu ako kabari kegereye, abaturage bahegereye babona akazi nk'ako gukora murizi jaride kandi bigaha amafaranga na wamuntu, washinze buzinesi.

Akabare kabaga ari keza ariko iyo akabare nta bantu bakarimo bitumaga umucuruzi wa kabare atabona amafaranga menshi kuko intebe zose ziba nta bantu bazirimo bityo bikaba bishobora kuba byamutera igihombo bigatuma atongera gucuruza akabari.

Akabari iyo kari ahantu hubatse neza kaba kagaragara neza, kandi bigakurura abakiriya benshi kugira ngo baze kunywera muri ako kabari, kuko haba hatuje. Kandi ako kabari gatuma umuntu wagashinze abona amafaranga menshi yo kurihira abana amashuri no gushaka abakozi benshi bazakora muri ako kabari.

Iyo akabari cyangwa se bare hari gucuruzwa inzoga zitandukanye z'amoko yose, bituma abona abakiriya kuko buri wese icyo ashaka kugura akibonera ku gihe kandi iyo hari firigo yo gukonjesha zanzoga, bituma abantu bari kuzinywa bashira inyota bityo nyiri kabare akabona amafaranga menshi.

Iyi nzu icururizwamo ibiribwa, ndetse n'ibinyobwa nk'amata, ibiribwa nk'imineke n'imigati n'ibindi, abantu barya igihe bashonje, igihe cya mu gitondo haba saa sita, haba ni mugoroba. Butike kandi icururizwamo ibintu bitandukanye abantu bakenera muzima bwabo bwa buri munsi.

Iyo ahantu hari inyubako zimeze neza bituma abantu benshi bajya nko kuhakorera, urugero nk' abantu bacuruza za bibiliya, za sitidiyo ahantu hakorera umuyobozi ushinzwe ubutaka n'ibindi byinshi bitandukanye.

Resitora yakira abantu bashaka ibyo kurya, bagatanga amafaranga bakabagurisha ibyo bashaka, bitewe n'amafaranga bafite Resitora itanga akazi ku bantu bahegereye, abantu bakeneye akazi cane cane ako gukora amasuku, ako guteka, ako kwakira abakiriye n'ibindi.

Iyo ahantu baranguza za ji n'ibindi byinshi bitandukanye, kandi bari no gucuruza na omo biba ari byiza, kuko baba bari gucuruza n'ibikoresho by'isuku, kandi hafi aho iyo baranguza n'inzoga nawe biba ari byiza, kuko umuntu arangura inzoga, akarangura na za ju, nawe akajya kubicuruza aho atuye.

Amaduka bacuruzagaho gaze, imiceri za kawunga n'imikoropesho n'imikubuzo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni ingenzi kuko bitanga akazi ku bakarani bazaterura izo gaze na za kawunga n'imiceri, babihereza abakiriya kandi binafasha wa wundi washinze bizinesi, kubona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo afite mu rugo iwe bitari ibya gaze n'ibindi.

Iyo ahantu bari gucuruza amakaro ameze neza cyane, bituma abantu bagiye kubaka inzu bajya kuyagura, bakubaka inzu zigezweho kandi zifite isuku, kandi ayo makaro iyo bari kuyacuruza bitanga akazi ku baturage, urugero nk'abakarani bazaterura ya makaro bari kuyaha wa mukiriya.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ibikoresho bikoreshwa bikeneye umuriro ni ingenzi kuko bituma umuntu ajya kubigura, urugero nka telefone yifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye cyangwa se amatelemosi cyangwa se ama ekuteri ibyo byose byifashishwa mu buzima bwa buri munsi kandi bikatugirira nakamaro mu byo dukora byose.

Iyo ku mabutike hari abantu bari kuhagenda biba bigaragara neza, kandi iyo hari ibiti by'amashami bituma aho ahantu hagira isura nziza. Kandi n'iyo hari umutaka wa eyateli, bituma abantu bakeneye kugura amayinite kuri eyateli bayabona cyangwa se bakanabikuza bityo bigafasha abo bantu bose bari gukorera aho kuri ayo mabutike.

Amabutike bacuruzagaho inyanya, ibitoki n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, afasha abantu begereye kuza guhaha ibyo bakeneye ibyo kurya mu rugo kandi gakanafasha umuntu wubatse inzu, kubona amafaranga bamwishyuraga ku kwezi.

Iyo amatungo ariye ibyo kurya bimeze neza，bituma ago matungo gakura neza， urugero nk'ibiryo by'inkoko， cangwa se igiheri c'ingurube， bituma zikura neza， ari inkoko zikagira umusaruro mwiza，zigatera amagi menshi， ingurube zigakura neza kandi zigatanga umusaruro.

Iyo ku mabutike hari akazu ka eyateri bituma, abantu bahaja bakaja kugura simukadi nshasha, bakazibabarurira, cyangwa se abantu bakeneye gu kubikuza amafaranga menshi, bakaba bajya kurako kazu ka eyateri bakabaha amafaranga bifuza kandi aka kazi gatanga akazi ku muntu ubu uri kugacururizamo.

Ahantu bafura imyenda bakanahanagura n'inkweto bagahanagura n'amakoti aba ari ingenzi kuko hatuma abantu bahegere babona akazi, kandi n'uwashinze iyo bizinesi akabona amafaranga. Inzoga ya Amusiteri ni nziza kuko iyo abantu bayinyweye bashira inyota, bakishima. Kandi aho hantu iyo hari umuriro hanari ipoto bituma umuriro utagenda.

Resitora ni ahantu abantu baja kurya ibiryo cangwa se bakananywa inzoga kugira ngo bahage, kandi resitora ituma abantu bidagaduriramo bakaruhuka mu bwonko bagatekereza neza. Resitora ni ingenzi kuko ahantu iherere itanga akazi ko gukora amasuku, koza ibintu no guteka.

Amavuta n'ibindi byinshi bitandukanye, amakaramu n'ibindi byinshi bifasha abantu batandukanye , nk'amavuta arisigwa bigatuma umuntu wayisize asa neza ku ruhu, amakaramu akifashishwa mu kwandika, kandi ibindi bitandukanye nk'uburoso butuma umuntu yoza amenyo bityo agasa neza bikamurinda n'indwara.

Iyo ahantu basuka, bakanogosha bagakorera abantu n'inzara, bituma abantu basirimuka mu mutwe, inzara zabo zigasa neza bakagira isuku. Kandi iyo biyogoshesheje bituma batagira umwanda, kandi na none iyo ahantu bacuruza nk'ibyuma bitandukanye, bituma babona amafaranga kandi iyo bari gusorera abantu imisoro babona amafaranga.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rusengero ni ingenzi, kuko nk'iyo bari gucuruza bafure, za durumu n'ibindi byinshi bitandukanye bituma mu rusengero haba hashyushye, mbese umuntu wese akumva yajyayo kandi iyo umucuruzi ari kubicuruza abona abaguzi benshi kuko bikenerwa ahantu henshi kandi akabona n'amafaranga yo kugura ibindi bikoresho bya durumu.

Resitora cyamba se bare, ni inzu abantu basohokeramo bakaja kurya ibiryo, bakanyweramo n'inzoga, kugira ngo baruhuke igihe bananiwe kandi banishimisha. Resitora itanga akazi ku bantu bahegereye, kandi igaha n' amafaranga umuntu wayikoze.

Iyo ahantu hari amabutike gatandukanye kandi hanari umuhanda hanari n'amashanyarazi ku muhanda bitumaga haba hari uruja n'uruza rw'abantu urugero abagenzi bagenda n'amaguru, amagare, amamoto bityo bigatuma ahantu habona abakiriye bahagurira ibyo kurya biri mu mabutike.

Depo yo kuranguza inzoga ni ingenzi kuko ituma abantu bacuruza akabari hafi aho baja kuranguriraho inzoga, kugira ngo abaturage baje baraja kunywa bashire icyaka. Kandi depo y'inzoga itanga akazi ku muntu uranguza za nzoga, umuntu ukorera amasuku izo nzoga aho zegereye, kandi depo y'inzoga ituma umuntu uyikora abona amafaranga.

Ahantu bacuruza ibikoresho byo gukoresha ku ishuri， urugero nka rame，karikiratirise，amakaramu， amakayi，aba ari ingenzi kuko abanyeshuri baja kugurayo amakayi n'ibindi byinshi bitandukanye， cangwa se bakaja gufotozayo impapuro zo gukoreraho ibizamini，cangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye，bityo bigatuma uwashinze iyo buzinesi abona amafaranga.

Ahantu bacuruza imyaka ni ingenzi, kuko iyo umuntu akeneye igikoma ajya kugurayo maze akajya kubetesha, kandi n'iyo hari umukozi wa mobayiromani bituma umuntu ugiye kubigura nta mafaranga, agenda akajya kubikuza akabona amafaranga, bityo abo bose bakagira inyungu yo mu bintu bakora.

Farumasi nin ingenzi, kuko abantu bashaka kugurayo imiti yo kwivuza igihe barwaye, cyangwa se igihe bafite n'ibindi bibazo bitari uby'uburwayi, yagiye nko gusobanuza ibintu runaka badasobanukiwe, farumasi zituma abantu bivura byihuse kandi batararemba.

Iyo butike bari gucuruzamo imifuka myinshi y'imiceri ya kawunga ,aho hantu hari n'amajile bivuze ko bacuruza na mobayilo mani ,kandi bari gucuruza n' amasafuriya n'ibindi byinshi bitandukanye, bituma abakiriya biyongera ku byo baje gushaka, nk'iki aho icyo ari cyo cyose bakibonayo uwo mucuruzi bakamugirira ikizere.

Butike iyo bacuruza ibintu byinshi bitandukanye， urugero nk’amakanzu，urugero， hamwe hacuruzwa n'ibyo kurya， urugero ahandi haba mobire mani， bituma urujya n'uruza rwiyongera ku bantu bagiye kugura amakanzu，abagiye kugura ibyo kurya，ndetse n'abagiye kubika no kubikuza， no kugura amayinite， bityo abo bose b’abacuruzi bakagira inyungu.

Iyo ahantu bafotora impapuro ndetse bagakora n'ibindi byinshi ,bitandukanye bituma abantu babona aho bafotoza impapuro kandi bigatuma umuntu washinze ya businesi yo kuba afotora impapuro ,bimuha amafaranga agakoresha ibindi bintu byinshi akeneye kandi yifuza mu buzima bwe.

Iyo ahantu hari butike, hari n'umuntu ukora mobayiro mani bituma abantu baje guhaha kuri za butike cyangwa se baje kurangura ibintu bitandukanye babikuza amafaranga kuri wa muntu uri gucuruza mobayiro mani bityo akagira inyungu cyangwa se na ba bantu bari gucuruza butike bakabikuza kugira ngo bajye kuranguza ibindi.

Iyo hari ahantu ushobora kujya kwigira uko wahinga ibihingwa bikera neza, cyangwa se uko wagira inama abandi, bagahinga ibihingwa bituma umusaruro uvuye mu buhinzi mu gihugu wiyongera, kandi bigatuma umuntu wahinze yarabanjije kwigishwa uko agomba guhinga bimuha umusaruro mwinshi.

Inzu icuruza ibikoresho by'ubwubatsi, cyangwa se imyenda abantu bambara mu mvura, na baro abantu bakina, n'amarinete abantu bambara. Ituma uwo muntu ubicuruza abona amafaranga yo gukemuza ibibazo bye bya buri munsi, ikamufasha kubona inyungu kandi iyo nzu akayishyura, na nyirayo akabona amafaranga bityo bikabafasha bose mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko ry'ibirayi, inyanya n'ibindi ni ingenzi kuko abantu bajya guhaha ibirayi, inyanya, ibitunguru n'ibitoki bakajya guteka, bityo bakagira ubuzima bwiza kandi iyo hari ubwirinzi muri iryo soko bafite nk'imitaka zo gutwikira ibyo biribwa byabo bituma izuba ritabyica cyangwa se ngo imvura ize ibinyagire.

Iyo ahantu hacuruza butike, kandi hakaba n'ahantu bateka za brushete bagateka na za mucoma, kandi aho hantu hakaba abantu batembereza imbuto, bituma abakiriya biyongera muri ako gace kuko baba barabona ibyo bakeneye byose, bityo bigatuma abantu b'abacuruzi babona amafaranga menshi yo gukemuza ibibazo byabo.

Iyo inyubako bari kuriyicururizamo, inyange y'amata cyangwag se amazi, bituma umuntu uri kubicuruza abona amafaranga, agashaka abandi bakozi, akagura bizinesi ye, bityo umusaruro ukiyongera, bikamufasha gutera imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iyo umugi urimo inyubako nziza, hari urujya n'uruza rw'abantu harimo imodoka ziparitse hari ibiti by'amashami, hari ahantu bacuruza amatekino ya telefone, biba ari ibintu byiza cyane kuko bituma uwo mugi ugaragara neza, kandi ugakomeza ukanatera imbere.

Akabare cangwa se na resitora batekamo ibyo kurya nk'akabenzi, ibirayi, n'ibindi bikurura abakiriya. Abakiriya baje kurya ibyo biryo barangiza kujya ibyoryo bakanywa n'inzoga, kandi iyo hafi y'ako kabari hari urutoki cyangwa se ibibono bituma aho hantu haba hari amahumbezi hanari umwuka mwiza.

Hoteri ni inyubako yubakwa hagamijwe kwakira abantu batandukanye bavuye mu duce dutandukanye, bakabagaburira, bakabaha ibyo kunywa, bakabaha n'aho kuryama n'aho kuruhukira, bakishura amafaranga. Uwashinze hoteri bimugirira akamaro kuko bituma abona amafaranga yo gukemura ibibazo bye bya buri munsi, kandi hoteri itanga n'akazi ku bantu benshi batandukanye.

Iyo amabutike ari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye kandi anariho za canari, bituma aho hantu abantu benshi bahisanga bakajya kurebayo firime ku masheni yose y'igihugu cyangwa yo hanze y'igihugu, bityo bakishima kandi bikanezerwa.

Inzu ikoreshwa mu gufotoza impapuro, abantu bagakenera serivisi zitandukanye mu kwandikisha ibintu bitandukanye, ibikenewe kuko ituma umuntu akeneye serivisi ayibona kandi bikamufasha kutandikisha intoki ahubwo agakoresha imashini.

Gucuruza imineke n'izindi mbuto zitandukanye, urugero nk'inanasi, inyanya, imyembe ndetse n'amaronji, bitanga amafaranga ku mucuruzi waziranguye akazicuruza kandi n'iyo ari gucururiza ahantu hari umutaka wa mobayiromani, bituma imvura itagwa ngo izo mbuto ze zinyagirwe, bityo bigatuma abona umusaruro uhagije w'amafaranga.

Balo zifashishwa muri siporo yo gukina umupira, ibikapu byifashishwa igihe abanyeshuri bagiye ku ishuri mu gutwaramo ibintu byinshi bitandukanye nk'amakayi, ibikoresho by'isuku n'ibindi, ibikapu byifashishwa mu gutwara ibintu byinshi bitandukanye kandi udufuka twifashishwa mu gutwara ibikoresho urugero: nk'ibyo bahashe abaturage.

Inyubako icururizwagamo ibiribwa, ibinyobwa, ibinyobwa urugero nk'amata abantu bakaja kubigura barijanye iwabo mu rugo kugira ngo babirye, babikoreshe ibintu byinshi bitandukanye hari n'igihe baba badacuzamo ibiribwa gusa, bagacuruzamo n'ibikoresho by'isuku, n'amasabune za omo, kugira ngo abantu babikoresha bagire isuku n'indi.

Kuba umusekirite ni byiza. Nk'iyo umusekirite ari gucunga umutekano w'ahantu kuri butike runaka cyangwa se ku nzu, bituma abona amafaranga , amafaranga akayakemuza ibintu byinshi akeneye kandi yifuza . Kandi iyo ahantu hari abasekirite, bituma hataba akavuyo k'abantu benshi.

Inzoga abantu barazinywa iyo bafite inyota cangwa se nk'iyo bari kwiyakira bagiye mu birori, amakaramu yifashishwa bari kwandika impapuro, abanyeshuri barayifashisha iyo bari ku ishuri, uburoso bwifashishwa mu koza amenyo kugira ngo ugire ubuzima bwiza, amenyo yawe uyarinde kurwara cyamba se kwangirika.

Iyo abantu bari gucuruza butike, ibintu byinshi bitandukanye kandi bikenewe bituma abaturage batuye muri ako gace iyo butike iherereyemo, bajya guhahirayo bajya guhahirayo, bajya guhahirayo bagatanga amafaranga, batanga amafaranga, uwo mucuruzi akabona ayo kujya kuranguza ibindi bintu kugira ngo akomeze acuruze butike.

Inzu icururizwagamo inzoga， amavuta yo guteka，ndetse n'imikati， iba ikenewe kuko bituma abaturage bahegereye baja kugura ibintu byinshi bitandukanye， urugero nk'amasukari，amavuta yo kwisiga，n'izo mikati ndetse n'inzoga zo kunywa，bityo bakagira ubuzima bwiza，na wa mucuruzi akabona amafaranga go kuranguza ibindi bintu.

Gucuruza mobayiromane ni byiza, kubera ko abantu babikuzaga amafaranga bakeneye kuyakoresha ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se bakagabitsa kugira ngo abasambo batazagabiba. Irembo rituma abantu baja gufotoza impapuro bamara kuzifotoza bakaba bazikoresha ibyo bakeneye kuzikoresha. Ekwiti ni banke ifasha abaturage kuzigamira no kubitsa.

Iyo butike yubatswe hafi y'umuhanda ,aho hantu hagenda amamoto ,hagenda abagenzi batandukanye kandi iyo bari gucuruza nk'imyenda ,bikurura abakiriya baza kugura ya myenda y'amakanzu kandi n'iyo hari abadozi bituma abantu baza kuhadodesha imyenda kuko haba hari butike iri ku muhanda.

Inzu y'ubukorikori iba ari nziza kuko ituma abazungu baza kugura ibishushanyo birimo ,urugero nk'imitako, ibigagi ndetse n'imikeka, ubuseke, bakabigura bakaja kubitaka cangwa se ukaba wabijana iwawe mu rugo ukabikoresha mu rugo iwawe cangwa se ukabigira imitako mu nzu iwawe mu rugo.

Ubucuruzi bw'imyenda butuma umuntu akemura ibibazo bye kandi ubucuruzi bw'imyenda butuma umuntu asabana n'abandi nk'abakiriye urugero, bugatuma amenyana n'abantu benshi batandukanye kandi ubucuruzi bw'imyenda ni ingenzi kuko abantu bayikenera buri munsi, ikenerwa kwambara buri gihe kandi no mu buzima bwa buri munsi.

Icyicaro ca Eyateli ni ahantu bakirira abantu bashaka serivisi za Eyateli. urugero nko kugura simukadi za Eyateli, kugura telefone za Eyateli no gushaka akazi ko kuzaja baratembereza simukadi za Eyateli na telefone zo muri Eyateli. Kandi zinatanga akazi ku bantu baba bari muri ibi biro batanga serivisi kubazikeneye.

Icicaro ca Ekwitibanke gifashaga abantu bagiye gufunguza konti muri Ekwitibanke cangwa se kigafasha abantu bagiye kubikuza amafaranga ava mu bindi bihugu byo hanze ,cangwa se abantu bagiye kubitsa amafaranga kandi hagatangaga n'akazi ku bantu bakora kuri iyi banke abakora amasuku, abakora muri banke batanga serivisi zitandukanye.

Ahantu hacururizwa ibyuma by'amagare haba hakenewe, kuko bituma umuntu ufite amafaranga aja kugurayo igare, cangwa se umuntu ukeneye akantu kamwe kamwe urugero nk'ipine, umusego aja kugurayo akakoresha igare rye rikaba rizima, kandi aho hantu hacururizwa iyo hari umuriro w'amashanyarazi, hari Kandagirukarabe, hari isuku haba ari heza.

Ahantu ho kuranguza umunyu haba ari ingenzi , kuko abantu bakenera umunyu mubuzima bwabo bwa buri munsi, kandi iyo ahantu bari kuranguza umunyu bituma abantu babona akazi, urugero nk'abasore bakaza guterura imyunyu bayishyiriye abantu bararangura, cyangwa se imyunyu bakayiterura bayijyanye mu modoka kugirango iyo modoka iyijyane ahantu bakeneye iyo myunyu.

Imyenda y'imipira n'amapantaro bisa biba ari byiza， kuko bifasha umuntu ubyambaye kuberwa， akaja aho abandi bantu bari asa neza， kandi izi myenda zifasha uzicuruza，kubona ibindi bintu akeneye bitari imyenda， urugero nk'inkweto， ibiribwa n'ibindi bitandukanye.

Iyo abantu bari gucururiza ahantu hateye ibiti， urugero nk'iminyinya cangwa se haparitse n'imodoka， bitumaga amaso yabo aba ari kwishimira ibyo bintu，kandi bigatuma aho hantu hakurura n 'imvura，bityo bikabarinda ivumbi kandi iyo umuntu yubatse inzu ye ahantu ho gukorera butike， bitumaga abona amafaranga.

Kuririmba ni byiza kuko bituma umuririmbyi yishima, kandi n'abamureba bakamunezererwa, iyo umuririmbyi aririmba neza bituma akurura n'abandi baririmbyi benshi bakaza kuririmba mu rusengero rw'imana, kandi iyo umuririmbyi aririmbye neza, ahubwo arishima kandi akanezerwa. Kuririmba bisabanya abantu batari baziranye bakamenyana.

Amakoperative n'amabanki ni ingenzi. urugero nka Ekwiti banki ifasha abaturage kubitsa no kubikuza amafaranga bitabagoye, kohererezwa amafaranga avuye mu gihugu kimwe ajya mu kindi, kandi Ekwiti banki itanga akazi ku bantu batandukanye. Abakora muri banki n'abakora amasuku aho iyo banki iherereye.

Hoteri na moteri ni inyubako yubakwa hagamijwe kwakira abantu, bakanararamo, bamara kurya bakishyura amafaranga, cyangwa se baba barararamo bakarya bakananywa, ndetse bakanararamo bakishyura amafaranga, bityo nyiri bizinesi akabona amafaranga menshi.

Hoteri ni inyubako yubakwa hagamijwe kuzayikoresha bakira abantu bavuye mu duce dutandukanye bakabaha ibyo kurya, bakabaha ibyo kunywa, bamara kunywa bakanaryama kubishaka bakishura amafaranga. Hoteri na Moteri kandi bitanga akazi ku baturage bahegereye nk'ako gukora amasuku utanga serivisi nk'ubuseriveri n'ibindi.

Hoteli iba igomba kugira isuku kuko haba harahurira abantu benshi batandukanye batutse mu duce dutandukanye barwaye indwara zitandukanye kandi bakaba batazwi n'abantu bo muri iyo hotel. Iyo hoteli rero iba bigomba kugira isuku kugira ngo abarimo bataza kwandura cyangwa bakandurwa.

Isoko ry'inkweto ni ryiza kuko ritumaga abantu baja kuzigura bakazambara bakazijana mu birori cangwa se bakazambara bakazijana n'ahandi hantu henshi hatandukanye isoko ry'inkweto kandi ritanga akazi ku bantu bazicuruza cangwa se abazamu barinda rya sako ry'inkweto.

Isoko ry' avoka, imineke, ibipapayi n'ibindi... rifasha abacuruzi kubona amafaranga bifashisha mu gukemura ibindi bibazo cyangwa kugura ibindi bintu bakeneye kandi iyo abaguzi baziguze bituma birinda kurwaragurika bya hato na hato bikabarinda indwara ubuzima bwabo bugakura neza.

Isoko ry'imyenda, urugero nka amakanzu, riba ari ryiza kuko ritanga akazi kuri ba bantu bari gucuruza imyenda, bakabona amafaranga, amafaranga bazaranguramo indi myenda, kandi isoko ry'imyenda ritanga akazi ku bazamu bazarinda iryo soko no ku bantu bazakora amaku amasuku muri iri soko.

Iyo mu isoko hari gucuruzwa za beterave zihagije bari kuzicururiza mu mabase n'ahandi bituma umuntu uri kuzicuruza cyangwa uri kuzitembeza abona amafaranga aramutungira umuryango kandi bigatuma na wa muturage uzihashye ajya gukora ji yo mu mbuto bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Isoko ryo gucururizamo imboga, intoryi, inyanya, karoti. Riba ari ryiza kuko riba rihuriyemo abantu benshi batandukanye, abaguzi, abari kugurisha, bityo bigatuma umuguzi agura ibintu byiza kandi agahitamo ibyo ashaka, kandi bigatuma n'ugurishije abona amafaranga go gukemuraza ibibazo no kugura ibindi bintu byinshi akeneye.

Isoko ryo gucururizwamo imiteja na beterave, ritanga akazi ku bantu barikoreramo urugero nk'abantu bikorera imizigo, abantu batunganya izo beterave bazikuraho nk'imyanda, kandi rifasha umuntu uricururizamo kunguka akabona inyungu ya bya biribwa yajyanye mu isoko.

Isoko ry'inyanya nziza kandi nini zituma abakiriye biyongera ku muntu uri gucuruza inyanya nziza kandi nini, kandi iyo umucuruzi ari gucuruza inyanya nziza, bituma abakiriye biyongera iwe, akabona amafaranga menshi, iyo ayabonye ayagura izindi nyanya cangwa se akayakoresha n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko ry'ibikoresho byo mu rugo ni ingenzi, kuko nk'iyo uguze amasahani abantu bayariraho mu ngo zabo, wagura ipanu ukayitekaho nk'ifiriti, imigati n'ibindi, ikidomoro kikifashishwa uja kuvoma amazi yo guteka, ibikombe ukabiyweramo igikoma cyangwa amazi, umutaka ukayitwikira mu gihe cy'imvura, ibyo byose ni ingenzi ku muntu.

Isoko ry'imyenda rituma abacuruzi baricururizagamo babona amafaranga kandi iyo abacuruzi bagabonye basoraga imisoro za leta bityo igihugu kigatera imbere kandi rituma nabaguzi baja kuguramo imyenda bakambara imyenda zisa neza kandi bifuza bityo ubuzima bw'abantu bugakomeza kuba bwiza.

Isoko ry'ibiribwa n'imyenda riba ari ingenzi nko mu mujyi cyangwa se ahantu hari gare, kugira ngo abantu bari muri gare bagure ibintu bakeneye byose, babigure babivana mu gace kamwe babijana ahandi bagiye gutega imodoka, kandi gare itanga akazi ku bantu bacunga umutekano w'ibiribwa n'imyambaro abantu baba bari gucuruza.

Iyo ahantu bavuguruye isoko hakaba hari isoko rimeze neza, bituma abantu benshi baza muri iryo soko kugira ngo baze kugura, kuko batekereza ko ibintu biri gucururizwamo nta defo bigira cyangwa se inenge. Bityo bigatuma ba rwiyemezamirimo bagira amanota meza kuko baba barubatse neza.

Ibishimbo ni ibiribwa biribwa mu rugo, avokana na zo ziraribwa, iyo abantu bazisize nko ku biryo batetse, imineke n'izindi mbuto nk'amaronji, ibinyomoro ndetse n'inanasi birakenerwa mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo ubiririye yirinde kurwara bya hato na hato.

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto urugero rw'imbuto wotameloni, imyembe n'amaronji iyo abantu babiguze bibarinda kurwara iyo uriye amagi bituma utarwaragurika n'iyo uyahaye nk'umwana akura neza mu bitekerezo no mu gihagararo.

Iyo mu isoko bari gucuruza imyenda y'imbeho nk'amakoti, imipira, imyenda y'abana bituma abantu bajya kuyigura mu gihe cy'imvura badakonja cyangwa se ngo bagira ubukonje bukabije, bukabije barware bajye ku bitaro kandi bifasha n'umuntu uri kubicuruza kubona amafaranga yo kujya kurangura iyindi mipira n'amakoti.

Isoko iyo ririmo iminzani itandukanye urugero umunzani wo gupima ibiro bike kugeza kuri makumyabiri, n'umunzani wo gupima ibiro byinshi bituma umuguzi apimirwa ibyo yifuza byose kandi akagenda anyuzwe n'ibiro bamupimiye ko aribyo.

Amatunda ga marikuco gabaga ari meza, kuko iyo umuntu agariye bimurinda kurwaragurika. Kandi iyo umuhinzi yahinze aga matunda agajana ku isoko akabona amafaranga. Yabona amafaranga akayaguramo ibindi byinshi bitandukanye bitari amatunda.

Isoko bacururizagamo amasahane, amasafuriya, amadobo, yifashishwa mu rugo. Ni ingenzi kuko rituma umuntu aja kubigura akabikoresha iwe mu rugo, kandi n'uwabiranguye akabona amafaranga go kuranguza ibindi bikoresho byo mu rugo.

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto ni ryiza kuko ritanga akazi ku bantu batunganya bya biribwa n'imbuto, bagatoranyamo izaboze bakazita kandi isoko ry'imbuto n'ibiribwa ritanga akazi ku bantu bari kubicuruza kuko babasha kubona ibitunga imiryango yabo, bakabona n'amafaranga yo gukemuraza ibindi bibazo byabo bwite bihariye.

Intoryi n'imiteja ni byiza kuko iyo umuntu abiriye nk'imboga agira ubuzima bwiza, bikamurinda indwara kandi iyo umucuruzi ari gucuruza intoryi n'imiteja bimufasha kubona amafaranga, akagura ibindi bintu akeneye haba mu rugo cyangwa se akagura n'ibindi byo kwishimisha nka telefone, kandi bitanga akazi ku bantu bacuruza izi ntoryi n'imiteja.

Isoko ry'ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'isuku, urugero nk'amasabune, ibiribwa, nk'amavuta yo guteka n'ibirungo, na za kawunga, bituma abantu babona ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, amavuta bakayakoresha mu guteka, amasabune bakayakoresha mu gukora isuku, gufura no gukaraba n'ibindi.

Isoko ry’ubucuruzi bw’imyenda ritanga akazi ku bantu barikoreramo, ku bantu barikubura, kandi rigaha amafaranga abantu bacururizamo bakayifashisha mu miryango zabo, barihira abana babo b’amashuri, cangwa se bakagura n’ibindi bakeneye bya buri munsi mu buzima bwabo. Kandi bigatuma abantu basabana, bakabana neza, bakanihuza.

Isoko ryo gucururizamo ibyuma n'ibikweto cangwa se ahantu bapimira ibyuma n'ibikweto, bitangaga akazi ku muntu urapimura bya byuma n'ibikweto, bigatanga akazi ku muntu uraja gushaka bya byuma n'ibikweto akabona amafaranga ,yabona amafaranga akagakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Isoko ni ahantu hacururizwamo inkweto, ndetse rikabamo n'abantu bazunguza nk'imigati. Baba batembereza mu masoko kugira ngo abacuruzi bari gucuruza inkweto bagure izo mikati bazirye, nuko nibamara kuzirya babashe gucuruza neza nta nzara bafite.

Ubucuruzi bw'amazi ni ingenzi kuko amazi anyobwa igihe umuntu afite inyota, kandi amazi meza atuma umuntu agira ubuzima bwiza, gakamurinda indwara gatuma atagira ibibazo bya hato na hato ibyo kuribwa umutwe n'imisonga. Amazi meza ni ingenzi mu buzima.

Imyenda yambarwa bagiye mubukwe mu ubuzima bwa buri munsi, ikenerwa buri munsi abantu kuyambara, kuyidodeshamo ibintu bitandukanye.

Isoko ry'inkweto urugero nka kambambiri n'izindi nkweto zitandukanye rituma abantu bajijuka bakamenya ko baba bagomba kwambara inkweto, kandi rinatanga akazi ku bantu bacuruza izo nkweto bakabona amafaranga, yo kubatungira ubuzima bagasagura nayo baranguza izindi nkweto zo gucuruza.

Pavuro ni igihingwa gihingwa cakwera bakakijana ku isoko. Kikifashishwa mu guteka imboga, mu kubeta isombe. Ibitunguru byifashishwa mu gihe bateka seleri na karoti, bikifashishwa bateka imboga, bityo ababiriye bakagira ubuzima bwiza kandi bitanga n'akazi, ku bantu bari mu isoko.

Batiri zikoreshwa muri telefone. Iyo telefone ifite batiri ibasha gukora cangwa se yaba nta bateri ifite ntikore. Iyo umucuruzi ari gucuruza batiri, abona amafaranga agakemuza ibindi bintu akeneye kugura bitari bateri. Kandi iyo bateri uzicuruje ugira inyungu kuko biguhesha amafaranga garenze ago uba wayiranguye.

Mu isoko iyo hari gucururizwamo umunyu, za sana ,amabiswi ,ndetse na za yawurute, bituma abantu babikoresha babikeneye batandukanye kandi bigatanga n'akazi kuri wa muntu washinze isoko ryo kubicuruza, bikamufasha kubona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iyo mu isoko rya kariyeri cyangwa se mu bisima bari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye, urugero nk'ibihaza, ibirayi n'ibindi, bituma abaturage bajya kubihahayo mugateka ibintu byiza, kandi bituma wa muntu urikubicuruza abona amafaranga yo kuranguza ibindi bihaza cyangwa se ibirayi.

Iyo mu isoko bari gucuruzamo intoryi, inyanya ndetse na beterave, bitanga akazi ku bantu bazavana izo ntoryi n'inyanya aho zahingiwe bakazizana mu isoko. Kandi bitanga n'amafaranga kuri wa muntu uri kuzicuruza, akaba yajya kurangura izindi ntoryi n'inyanya ndetse na betereve.

Ifu ya bino ni ifu ikorerwa mu nganda, iba ivangiyemo imbuto z'ubwoko bwose, amasaka, ibigori, soya, uburo, ingano, ikagurishwa mu mabutike. Abantu bakayigura, bakagira ubuzima bwiza. Naho za kanta na za shampo zishirwa mu musatsi, kugira ngo umuntu agire umusatsi mwiza kandi uryoheye amaso.

Isoko ry'ibiribwa urugero nk'ibirayi iyo biri muri kariyeri abacuruzi barabigurishaga bakabona amafaranga barakoresha ibindi bintu, cyangwa se n'abaguzi babiguze bakaja kubiteka iwabo mu rugo maze bakagira ubuzima bwiza.

Iyo umucuruzi ari gucuruza mu isoko amasutiye meza, bituma abakiriya biyongera, iyo biyongereye abona amafaranga, akaja kurangura amasutiye, kandi iyo afite igishoro cyinshi, akarangura amatiye menshi, bitumaga abona amafaranga menshi, bityo ubuzima bwe bukaba bwiza, kuko agura ibindi bintu akeneye.